Abantu barimo gutanga ubutabazi bw'ibanze, aba ni Croix Rouge nk'ikigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze cyangwa kwihutirwa, aha ngaha bateruye umusore wagize ikibazo.

Abantu babiri bambaye imipira y'imituku bicaye mu tugare aha bivuze ko bashobora kuba bafite ikibazo cyo kugenda ariko bakaba bari kwitabwaho n'abaganga babugenewe, inyuma yabo hari abagabo babiri bahagaze kandi bambaye agapfukamunwa mu bigaragara ko hari icyorezo barimo kwirinda.

Abantu bicaye hamwe barimo guhabwa ikiganiro nabambaye harimo abambaye impuzankano harimo abambaye amataburiya y'icyatsi ndetse n'indi myenda ijya gusa ubururu umuntu umwe arahagaze arimo kuba ikiganiro aho abantu bambara gutya akenshi baba bakora kwa muganga ubwo arimo kuba ikiganiro kijyanye n'uburyo bagomba kugira gahunda yo kuvuramo cyangwa kwita ku barwayi.

Ahantu kwa muganga bakorera ubutabazi bwihuse. Aha ni ahantu haryama umurwayi urembye cyane kandi akenshi akaba ari n'ahantu habera ibagwa, bakaba babaga umuntu ugiye nko kubyara cyangwa ufite ikindi kibazo gikomeye gikenewe kubagwa.

Ababyeyi bari mu bitaro kwa muganga, aha ni ahantu haryama ababyeyi babyaye cyangwa se bitegura kubyara, ibi ni ibitaroba biri kwa muganga aho byakira abarwayi bakaba baryamye mu gihe bataritabwaho cyangwa se bitabweho ariko bakaba batarakira ku buryo bataha.

Abantu benshi barahagaze abandi bari ahantu hamwe aho buri muntu wese afite itungo ry'ihene, harimo abadamu n'abagabo, harimo kandi abandi bantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze bakorana na Croix Rouge aho baje kubafasha cyangwa hakaba hari umuntu wagize ikibazo, aba bantu kandi bari ahantu hameze nko mu isoko cyangwa bakaba bazanye amatungo yagize ikibazo.

Abantu benshi baje mu gikorwa cyo kubaka. Aha ni igihe baba barimo kubakira nk'umuturage ukennye cyangwa wagize ikibazo kugira ngo abashe kubona ahantu yaba.

Abantu babiri bicaye mu kagare. Aha bivuze ko bashobora kuba bafite ikibazo cyo kutagenda, bambaye kandi agapfukamunwa n'imipira isa. Bameze nk'abaje kwa muganga. Inyuma yabo kandi hari abandi bagabo babiri bahagaze.

Abantu babiri bambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze, ndetse bakaba bari kumwe n'abadamu babiri. Aho bafite urupapuro barimo kwifotoza, inyuma yaho hari abandi bantu batandukanye. Aba bantu ikintu bashinzwe ni ubutabazi.

Abantu benshi bari ku murongo, aho abari imbere bafite icyapa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, aha ni igikorwa gikorwa mu Karere ka Nyagatare, bigakorwa n'ibitaro bya Nyagatare, aho bari bari kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane.

Imodoka y'imbangukira gutabara yanditseho Rwanda Red Cros bivuze ko ari imodoka ya Croix Rouge ishinzwe ubutabazi, aho iki kigo gishinzwe kwita ku bantu bari mu byago cyangwa kubatabara babavana mu kaga.

Abantu bicaye ku murongo harimo abagabo abadamu ndetse n'abana. Aho bameze nk'abicaye kwa muganga bategereje kwitabwaho, harimo gusohoka umudamu wambaye impuzankano ameze nk'aho ari umuganga.

Ivuriro ryubatse neza. Aha ni kwa muganga, aho abarwayi bajya kwivuriza. Hari abantu bahagaze ku mpande, mu nzira abantu bajyamo bajya kureba abaganga. Aha iyo umurwayi arwaye aragenda akegerara muganga, akamusuzuma kugira ngo abashe kumenya imiti amuha.

Abantu baryamye ku buriri, ariko uburiri ni ubwo kwa muganga, aho abarwayi barembye barwarira, akenshi bikunda gukorwa iyo umurwayi yarembye, muganga akabona adakwiye gutaha maze akamugumana kugira ngo abashe gukira cyangwa koroherwa abone gutaha, rero babaha uburiri baryamaho, ari ho bano bantu bari.

Abantu bari kwa muganga. Umurwayi umwe aryamye ku gitanda cy'abarwayi. Aho muganga arimo kumusuzuma areba ikibazo yaba afite. Abandi babiri bahagaze inyuma ye barimo kwitegereza.

Umuganga arimo gufata umuti aho agiye gutera umuntu urushinge, ari gufata umuti akawukuramo akoresheje urushinge kugira ngo abashe gutera umuti umurwayi.

Umubyeyi ukikiye umwana arimo kumwonsa. Umubyeyi ufite umwana ariko umwana ukiri uruhinja. Yicaye mu ntebe y'ubururu, aho arimo kumuha ibere.

Umubyeyi wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, aho abarwayi baba bari, umubyeyi wishimye, ufite umwana ukiri muto, asa nk'aho ari bwo akimubyara.

Umuganga ndetse n'umurwayi. Umurwayi ari kumwe na muganga, aho muganga agiye kumupima. Inyuma ye kandi hari abandi baganga ndetse n'abarwayi bahari. Iki gikorwa kibera kwa muganga, aho muganga agupima kugira ngo amenye uko uhagaze.

Abantu bicaye ahantu hamwe kandi ari benshi. Harimo abagabo n'abagore. Gusa abagore benshi barimo bafite abana. Bivuze ko bari nko mu bukangurambaga bijyanye n'ubuzima cyangwa n'uburyo bagomba kwita ku bana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bicaye neza kandi bari ku murongo bameze nk'abana b'urubyiruko harimo n'abakuru, aho bari kumva ikiganiro mu bijyanye n'ubuzima, bari kureba amaso ahantu hamwe aho bari guhabwa amahugurwa.

Umuhanda w'amabuye, umuhanda utari kaburimbo ariko wubatse mu mabuye. Impande yaho gato hari inzu nini y'amarangi y'umweru yanditseho amagambo y'umukara asa niterita farumasi bivuze ko ari inzu icuruza imiti y'abarwayi.

Inzu icuruza imiti, yitwa farumasi Iraguha, aha ngaha haba harimo imiti itandukanye kandi ivura abantu, aha harimo abarwayi kandi bagiye kureba muganga, aha muganga aragusuzuma, yakubonamo indwara akaguha imiti nawe ukamwishyura.

Inzu y'ubucuruzi ariko yibanda cyane ku miti, ni imiti ivura abantu aho umuntu arangura imiti noneho umuntu arwaye akaza akamusuzuma muganga, muganga akamuha umuti, na we akamuha amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza imiti y'abarwayi aha ni igihe umuntu yize ibijyanye no kuvura cyangwa ibijyanye n'ubuzima maze agahitamo kwikorera umushinga wo kurangura imiti akayicuruza, aho iyo umuntu arwaye agenda akamusuzuma noneho akamuha imiti ihwanye n'indwara arwaye, umurwayi akamuha amafaranga.

Inzu nziza iri mu marangi y'umweru, aho iri gucuruza imiti y'abarwayi, aha ni igihe umuntu arangura imiti cyane cyane yarize ibijyanye n'ubuzima, akayegereza abaturage kugira ngo umurwayi warwaye agende amusuzume, narangiza amuhe imiti noneho umurwayi na we amwishyure, impande yaho kandi haparitse moto.

Abantu benshi bitabiriye barimo kureba umuhanzi Platini aho arimo gutaramira abantu arimo kubaririmbira, iki ni igikorwa cy'ubukangurambaga buba bwabaye mu kintu runaka noneho bagatumira umuhanzi kugira ngo abashe gukurura abantu baze kumva ubutumwa bagenewe.

Abakobwa babiri ndetse n'abandi bahagaze inyuma y'icyapa aho bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu mu bukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abantu benshi bicaye hamwe bafite amazi yo kunywa abandi bafite imashini, aho imbere yabo hari abagabo, umugabo urimo kubaganiriza, bari mu gikorwa cyo gukora ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuzima.

Abantu barindwi bafite icyapa cyanditseho "koresha agakingirizo ubungabunge ubuzima bwawe." bivuze ko bari mu bukangurambaga bwo gukoresha agakingirizo, kugira ngo hirindwe zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abanyeshuri bafite icyapa cyanditseho ndi uw'agaciro kandi ndashoboye, bivuze ko bari gukora ubukangurambaga bwo kwihesha agaciro no kuvuga ko buri muntu wese ashoboye afite ibyo yakwigezaho, birimo gukorwa n'abanyeshuri bageze nko mu mashuri makuru.

Abantu bicaye hamwe kandi bambaye impuzankano, agapfukamunwa ndetse n'ingofero, bameze nk'abantu barimo kwirinda icyorezo cyangwa indwara runaka, aho kandi bagiye gukora ubukangurambaga kugira ngo babashe kubwira abaturage birinde.

Umuvuzi gakondo arimo gutunganya umuti, aho umwe arimo kuwusekura kugira ngo ubashe guhinduka ifu, iyi ni imiti ivura abantu igiye itandukanye ariko umuntu atagiye kwa muganga wa kizungu, ahubwo akavurishwa n'ibimera.

Umukobwa urimo gutunganya imiti gakondo, iyi ni imiti iba ituruka mu bimera noneho arimo kuyitunganya aho arimo gukoramo ifu zigiye zitandukanye.

Imiti itandukanye ya kinyarwanda. Ni imiti akenshi ituruka mu bimera. Aha umurwayi iyo arwaye asanga umuganga wa gakondo akamuvura kandi iyi miti ivura umurwayi, iba itaranyuze mu ruganda.

Inzu nziza yo mu marangi y'ubururu yanditseho gira ubuzima. Akenshi inzu imeze gutya iba ari ivuriro aho abantu bajya kwivuza noneho kandi hakaba ari umudamu ufite indangururamajwi no gutanga ikiganiro, hari n'abashinzwe umutekano.

Abaganga barimo kwita ku bantu barimo kubapima amaraso ndetse banabasuzuma mu zindi ndwara zigiye zitandukanye. Iki ni igikorwa cyo kubungabunga ubuzima bw'abaturage.

Inzu iri mu marange y'ubururu yanditseho gira ubuzima, nk inzu akenshi iba ari ivuriro ryegereye abaturage aho iyo barwaye bajyayo bagasanga muganga maze muganga akabasuzuma akabitaho akabavura, ahandi hari n'abarwayi batandukanye baje kwivuza.

Abaganga bari kumwe n'abaturage, aho bagiye mu gikorwa cyo kubungabunga ubuzima cyangwa kwita ku baturage. Abaganga barimo gufasha ababyeyi ndetse n'abandi batandukanye kugira babashe kubona serivisi z'ubuvuzi.

Inzu y'ivuriro iriho icyapa k'ivuriro, bivuze ko akenshi inzu zimeze gutya ziba ari amavuriro yigenga, usanga nk'umuntu wakoze umushinga wo kujya avura abarwayi ariko bisaba kuba yarabyigiye afite impamyabumenyi.

Inzu iri mu marangi y'ubururu yanditseho gira ubuzima, aha ibi biba bivuze ko ari ivuriro rivura abarwayi begereye iyi nyubako, aha mu gihe umurwayi arwaye araza umuganga akamusuzuma akamuha imiti ijyanye n'indwara arwaye.

Umubyeyi uri kuri kandagira ukarabe arimo gukaraba. Aha ni umuco mwiza ukunda gukorwa no kwa muganga cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi kugira ngo umuntu akarabe intoki, ataba yakanduza abantu indwara, akaba ari n'umuco mwiza wo kogeza isuku mu baturage.

Inzu iri mu marange y'ubururu aho yanditseho Gira ubuzima bivuze ko ari ivuriro aho abarwayi baza bakivuriza akenshi aya mavuriro aba yegerejwe abaturage kugira ngo bajye kwivuza badakoze urugendo rurerure, abakozi b'ivuriro barimo kubyina abandi barimo kubafata videwo.

Inzu nziza iri mu marangi y'ubururu amabati y'ubururu, aha ni ivuriro rivura abarwayi aho abarwayi bahagana noneho muganga akabasuzuma bakamuha imiti ihwanye n'indwara arwaye.

Abarwayi bari kwa muganga aho umuganga umwe arimo kubaka bimwe mu bigaragaza ibyangombwa kugira ngo babashe kwivura, harimo nka mitiweli ndetse n'irangamuntu aho barimo kubyaka abarwayi kugira ngo babone uko bitabwaho.

Umuganga arimo kwita ku murwayi aho muganga arimo kureba imiti ngo amuhe, umurwayi kandi aricaye arategereje aho ahetse n'umwana, aha ni mu gihe umurwayi aba agiye gutaha agiye kwakira imiti muganga yamwandikiye.

Ivuriro ni inzu yubatse mu marangi y'ubururu yanditseho icyapa cya Girubuzima helifu posite, aho bivuze ko ari ivuriro. Abakozi baho bari imbere barimo kwifotoza, aho baba barimo gufata ifoto y'urwibutso. Harimo abaganga ndetse n’abandi bakozi b’iri vuriro.

Inzu nziza ikigo nderabuzima aho abarwayi bajya bakajya kwivuza bagahura n'abaganga. Hari abana benshi bicaye abana barindwi bicaye imbere y'ikigo nderabuzima, kandi hari umudamu ugiye kwinjiramo.

Imiti y'amatungo akenshi hari imiti ivura amatungo atandukanye. Imiti yitwa everime bivuze ko ari umuti uvura amatungo magufi ndetse n'amaremare, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Aamatungo kandi kuri uwo muti hashushanyijeho inka n'ihene ndetse n'ingurube.